Iyi foto yifashishwa mu kwamamaza, irimo iragaragaza ikigo kiri mu Rwanda gitanga ubwishingizi bita Britam, aho kiri kugaragaza ko gitanga ubwishingizi ku itike y'indege cyangwa urugendo rw'indege.

Iyi ngiyi ni kampani yitwa Allianz, ifite ibirangantego by'umweru byiganjemo n'ubururu, nk'uko biri no kuri kino cyapa.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo icyapa gikoreshwa mu kwamamaza ibikorwa bitandukanye, giteye mu busitani kandi bigaragara ko iyi foto yafashwe ahagana ku gicamunsi.

Iyi ni ifoto yo kwamamaza iri kugaragaza umugabo uri mu modoka arikuvuga ati gendana n'icyerekezo buri ntambwe y'urugendo, byaba ariho nimero zo guhamagara ku bindi bisobanuro na website yiki kigo.

Aha bari kwamamaza ubwishingizi bwa moto bavuga ko ushobora gufata ubwishingizi bwa moto na Sonerwa general, ku bindi bisobanuro wareba kuri website y'abo.

Apurikasiyo muri telefoni y'ikigo cyitwa BK y'umuntu witwa Teta. Ndetse hasi hari no kugaragaraho uko yaba yaragiye akoresha amafaranga ye mu kwezi.

Iyi foto yafatiwe hejuru ya telefone, byari ahagana saa yine na makumyabiri n'itatu, iyingiyi rero akaba ari isitorike, cyangwa ibyakorewe kuri konti y'umuntu runaka, biriho amatariki n'amasaha byagiye biberaho.

Umugore muremure w'uruhu rwera wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu ndetse n'undi wirabura wambaye ikanzu uri gukoresha agakoresho kazwi nka kiyu ara sikana kifashishwa mu guhaha.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo imikufi yo ku ntoki ndetse n'iyo ku maboko iri mu mabara meza agiye atandukanye, ndetse inyuma hari no kugaragara imyenda miremire ishobora kuba yambarwa n'igitsina gore.

Muri iyi foto harimo hagaragaramo isakoshi z'amabara agiye atandukanye, aho ziri ku tuntu tumeze nk'utumeza dutukura. Izindi ziri mu tubati dutukura, inyuma ho gatoya y'izingizi ziri ku meza.

Muri iyi foto yiganjemo utuntu tw'imitako tugenda dufite amabara atandukanye tumanitse kuri poritemento y'igiti no ku gikuta cy'umweru. Inyuma tukaba twiganjemo amabara y'umuhondo, umutuku, ubururu ndetse n'umweru. Tukaba twifashisha Imitako.

Imodoka ziparitse muri garage, ubusitani hanze ipoto riri ryifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi ndetse n'icyapa kinini cyanditseho Hyundai bisa nkaho ari igarage rya Hyundai.

Imodoka ziteye amabengeza, iy'umukara ndetse n'ebyiri zijya gusa umweru, ebyiri zo hirya harimo toyota vi eyiti ebyiri, ndetse n'iyi ngiyi yindi ariko ntari kureba neza.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo inzu icururizwamo ibicuruzwa by'inyange indasitirizi, harimo amata ji ikivuguto ndetse n'ibindi byinshi, iyi nzu yiganjemo ibara ry'ubururu.

Iyi ni webusiyiti yifashishwa mu kohereza cyangwa kwakira amafaranga, uyu nguyu akaba yari agiye kohereza amakanadiye ibihumbi ijana na bitandatu, bikaba bizatwara iminsi itatu kugera kuri ine kugira ngo amugereho.

Iyi ngiyi ni ifoto yo kwamamaza irimo iragaragaza uburyo waguramo bando za data ukoresheje telefone yawe ngendanwa, kandi bikozwe mu buryo bwihuse kandi bunoze.

Muri iyi foto barimo bagaragaza icyemezo gitangwa kikamara amezi atatu gusa, gitangwa na komisiyo y'imisoro y'imbere mu gihugu, bikaba byarakozwe ku itariki cumi n'enye, z'ukwa munani, bibiri na makumyabiri na gatatu, bigakorerwa kimihurura, ahateganye na Rwanda reveni.

Fagitire y'igihugu ya Rwanda reveni otoriti, tini ijana mirongo irindwi na karindwi ijana na mirongo itanu, sosiyete indasitiriyeri de materiyeri konsitirigisiyo.

Iri ni inote y'amafaranga mirongo itanu yanditseho banke santarare di Congo, bisa nkaho ari amafaranga akoreshwa muri Congo hariho umutwe w'umuntu ndetse n'inzu.

Intoki zijya gusamo nk'inzobe ndetse n'umushandiko w'amafaranga menshi cyane, inoti nyinshi ziganjemo iza oranje n'iz'cyatsi kibisi ndetse umugabo ari kuyabara imwe kuri imwe.

Inote y'ijana, yanditseho unayitedi siteti ofu Amerika, hakaba hariho umugabo ufite imisatsi myinshi igwa inyuma, ndetse bikaba bigaragara ko ari amafaranga yifashishwa mu gihugu cy'Amerika, ari mu kamashini kabara amafaranga.

Inote nyinshi z'ijana ziriho umugabo ufite imisatsi miremire igwa mu bitugu ndetse uzwi ku izina rya Gorge Washington, nimero y'inote ndetse n'ijambo yanditseho United State of Americ. Bisa nkaho ari inote y'ijana yo muri Amerika.

Muri iyi foto harimo hagaragara akazu gatoya ka kera za kubatswe mu minsi mu gihe gishize gakoresha ivunja ry'amafaranga ibyo bimeze nka foregisi biro, hanze hari tarifu cyangwa meniyu n'ivase irimo indabyo.

Iki ni icyicaro cya biro yitwa Giraneza kifashishwa mu guhinduranya amafaranga, ava mu mafaranga y'igihugu kimwe ajya mu y'ikindi gihugu, urugero niba hari amunyarwanda ushaka amakongomani wegera Giraneza foregisi biro bakabigukorera.

Umugabo usa nku wo muri Aziya, wambaye umupira w'umukara ndetse n'umusatsi mukeya wo hejuru, asa nkuri ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga bw'ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo ijambo ryandikishijwe amabara atukura ryanditseho raha foregisi ndetse n'umugabo uhagaze wikoze mu mufuka, wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara. Aha ngaha ni ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga.

Icyapa cy'umuhondo cyandikishijwe inyuguti z'umukara, kiriho uko iyero riri kugura, amafaranga magana ane mirongo irindwi, no kurigurisha magana ane mirongo irindwi ndetse n'amadorari, kuri magana ane mirongo itatu na rimwe, no kuyagurisha magana ane mirongo itatu n'atanu.

Ifoto yafashwe ahagana ku gicamunsi, imodoka nyinshi mu muhanda ziganjemo izumweru n'umukara, umugabo uri kugaragara ari inyuma y'umushandiko w'amafaranga, ku cyapa cyo kwamamaza kiri ku nzu ndende yumwe igorofa imwe

Matela z'ubwoko butandukanye, mari yicayeho n'umugabo wambaye umupira y'umuhondo, ndetse n'umuryango wa giriyaje ndetse n'ahantu inyuma hasa nk'aho ari isoko.

Muri iyi foto harimana agaragaramo uruganiriro harimo ibikoresho byo mu nzu bitandukanye harimo intebe, utubati ikizwi nka vandarateri zituma haza umwuka mwiza mu nzu, n'amatara yo kugira ngo mu nzu hazemo urumuri.

Iyi foto irimo imitako myiza irimo imituku n'imikara ndetse n'ubusitani bwiza buryoheye kuburuhukiramo ndetse n'akayira hagati karimo amapave y'umweru n'umukara ndetse ahantu hakaba ari heza kuba wahaza ukaharuhukira.

Pisine, inzu ebyiri z'amagorofa nini, ahantu ku ruhande hari agataka iyo umuntu avuye koga ajya kugira ngo aticwa n'izuba ari kumuka ndetse n'imodoka ya Toyota Rava fo.

Inzu ya etaje iteye amabengeza si irangi rya oranje, amategura y'umutuku, jaride nziza ahagana ku marembo, ndetse n'umuhanda wa kaburimbo.

Iyi foto yifashishwa mu kwamamaza harimo haragaragara inzu ndende y'amagorofa atatu, aho iyi nzu yifashishwa mu gukorerwamo ibikorwa bya Garandi Ligasi hoteli, iyi ngiyi akaba ari ifoto ya meni imbere.

Abagabo n'abagore basa neza bose, bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'amakoti asa neza, bakaba bakorera ikigo cyitwa Britam cy'ubwishingizi mu Rwanda, basa nk'aho bari guhereza serivisi abakiriya babagana.

Muri iyi foto iri kugaragaza ahantu heza hari umutuzo, hatari abantu benshi bacaracara, ndetse hakaba hubakishijwe amakaro, ndetse ari n'ahantu abantu bicara bategereje ababafasha, ndetse aha hasa nkaho ari muri banki.

Inyubako ndende izwi nko kwa Makuza ndetse n'iyindi birebana nayo ndende, icyapa cyanditseho emu yu inshuwarensi, ikigo gikorera mu Rwanda gitanga serivisi z'ubwishingizi ndetse n'abantu bari kugenda hagati mu mujyi.

Umugore usa nk'uwomurazi uri kuzamuka sikariye, undi mugore uri ku ifoto usa nk'aho ari muri siporo ndetse na sosiyete ikorera mu Rwanda itanga iby'ubwishingizi yitwa Oldmutual.

Harimo haragaragara umugabo wambaye ishati y'ubururu ufite ubwanwa bwinshi n'agasatsi gake, uri kugaragaza imvamutima z'ibyishimo, bari kumubwira ko hari inyungu ya cumi na rimwe ku ijana buri kwezi ndetse na miliyoni cyangwa iri hasi yayo.

Muri iyi foto harimo haragaramo: banki izwi nka enisibi eyi, aho yasaga n'aho yari yafungunguye ishami rishyashya muri musanze, aho yari yadekoye ahantu bigiye kubera mu mabara meza y'umweru n'umukara.

Byitwa giti bank ibigibi biragaragaza ibisabwa kugira ngo umuntu ahabwe inguzanyo, ubwoko bw'inguzanyo, ayo azajya akatwa ndetse nazajya asigara kuri konti.

Abamama b'igitsina gore basa nk'abicaye hamwe ndetse n'ibyo bari gucuruza byiganjemo intoryi, imyanya, karoti ndetse n'ibitunguru basa nk'aho aha ngaha ari mu isoko.

Muri iyi poto harimo hagaragara isoko rya kijyambere rya Nyabugogo, aho harimo abantu bashyize hanze imyaka yabo bari kugurisha n'abandi baje guhaha, hagaragaramo n'imodoka y'umukara izwi nka toyota benzi hari kugaragaramo na moto ndetse n'ako tuzi ku izina rya rifani.

Muri iyi foto, harimo haragaragaramo imodoka yo mu bwoko bwa Toyota rava fo, itwawe n'umugore usa n'uri mu cyiciro cy'imyaka kuva kuri miringo ine n'itanu kugeza kuri mirongo itanu, ndetse n'umwana uri kwiruka, ndetse aha ngaha hasa nkaho ari mu isoko.

Umubyeyi witandiye, mu muco w'abisilamu, uri kuvana ibishyimbo mu bishishwa byabyo, ndetse n'ibitunguru biri ku nkoko. Inyanya zitoshye ziri hasi, zitegerejwe gucuruzwa.

Muri iyi foto harimo hagaragaramo akazu ka MTN karimo umu agent wicaye ku ntebe y'umuhondo, aka kazu ikigaragara kose ni umuhondo.

Intebe zo kwegamiraho ziriho udusego tw'umukara aho bicaraho, hamwe n'ameza bikozwe mu biti bikaba bikorwa n'abakora umwuga wo kubaza ba bikozwe mu mbaho ziba zavuye mu biti, bikaba byifashishwa mu gufata amafunguro.

Yitwa Clothing Store, iduka ricuruza imyenda yiganjemo iy'abagore. Hakaba hari ibimanike byambaye imyenda bagurisha ahagana ku muryango kugira bayereke abakiriya.

Mu rurukari redani maketi ni aho bacururiza ibicuruzwa kuri murandasi ukaba wabihaha bikakugeraho iwawe harimo ibintu bitandukanye nk'amavuta ndetse n'ibindi bipapuro n'ibindi bikoresho by'isuku biri kugaragara hano ndetse n'ibiryo by'imbwa.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo ibyo tuzi nka sofutiweya icururizwaho ibicuruzwa kuri murandasi, harimo hragaragara ko hariho ubwoko bw'ibiryo kandi bakavuga ko bashaka abantu bagurisha ko baza kuri webusayite yabo.

Moto enye zikurikiranye, ziriho udukarito inyuma twanditseho Rashi Fudu, ndetse aho abo bantu bose bambaye kasike mu mutwe, bigaragaza nkaho ari Kampani yitwa Rashi Fudu izajya igeza ku bantu ibyo batumyeho, bikabageraho mu rugo aho bibereye.

Iyi foto yakoreshejwe mu kwamamaza irimo iragaragaza umugabo ufite ubwanwa, wambaye ingofero ndetse afite n'agakarito mu ntoki, witwa isoko ragira dotikomu, hakaba hariho na nimero ku bindi bisobanuro ushaka kugira icyo ubazaza.

Iyi ni webusayiti ni ifoto ya webusayite aho ari kampani y'abanyakoreya yitwa minoso, ikaba igaragaza abantu bayikoresha, amaduka bafite ku isi yose ndetse n'ibyo bagurisha kuri webusayite.

Muri iyi foto haragaragaramo umuntu wambaye ikirinda umutwe aricyo bita hedimenti, ndetse ufite na moto isize ibara ry'umweru, ubona ishinzwe kugeza ibiryo ku bantu babitumye by'umwihariko ikigo kitwa kifusi.

Ikigo kigure doti ra kiri kwamamaza ko ushobora kugura ndetse ukanaryoherwa nade no kugezweho ibintu ku buntu ariko yaba ari hanze ya kigali ukongeraho igihumbi gusa.

Muri iyi videwo harimo haragaragara inzu ifite amabati atukura, ndetse n'urukuta rw'umweru, hakaba muri ino parikingi hakwirwamo imodoka enye, ndetse ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo.

Muri iyi foto irimo iragaragaza umugabo w'abe umuntu w'umwera urimo uraranga inzu ye kuri lagijari home foru seri ukaba wayibona kuri dabiriyu, dabiriyu, doti vayibu, doti hawuzi, doti ra.

Ubutekero busa neza, bugaragara neza, harimo igikoresho gifasha gukonjesha ibintu kugira ngo bitagaga kizwi nka firigo, indobo n'ijerekani, mayikorowevu, keto ndetse na kwiziniyeri, biri aha ngaha Kabeza mu Mujyi wa Kigali.

Inzu nziza isize irangi ryiganjemo umweru ndetse n'umukara, aho hari aparitema iri kugurishwa muri Kibagabaga umujyi wa Kigali, iri gukodeshwa kuri miriyoni ijana na mirongo itatu n'eshanu.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'ishati y'umweru bisa nkaho ari umwera, ndetse harimo hragaragaramo intebe n'ameza ndetse na esikariye ijya hejuru, bikaba bigaragara ko iyi nzu ikodeshwa kuri daburiyu, daburiyu, daburiyu doti vebu hawuzi doti rwa.

Muri iyi foto harimo haragaragaramo inzu ebyiri nziza zo mu bwoko bwa kadasiteri, ndetse harimo n'umuhanda wa kaburimbo imbere yazo, bikaba bigaragara ko iyi nzu ikodeshwa ibihumbi magana atadatu by'amanyarwanda.

Umugabo wambaye ingofero zizwi ku bisilamu. Umugabo wundi udafite umusatsi ufite amarineti mu mutwe. Ndetse n'amasakoshi meza agiye atandukanye, amanitse n'inkweto bisa nkaho yari imurikagurisha.

Muri iyi foto hari kugaragaramo abagabo bambaye ishati mpuzankano z'umuhondo n'apantaro y'umukara ndetse n'undi mugabo wicaye kuri kontwari, bisa nk'aho ari muri resitora cyangwa mu kabari, bamwe akaba ari abasiriveri abandi ari abakiriya.

Abagabo babiri bose bafite kasike zanditseho sefu moto, aba bagabo bose bambaye amarinete umwe ni umwirabura ariko undi ni umuzungu.

Umugabo wambaye ishati na karuvati ndetse n'undi mugore uhuze kwandika ibintu kuri mudasobwa, umugabo ufite umusatsi mukeya ndetse n'uruhara, umugore usutse menshi, basa nkaho bariguha imbwirwaruhame bagenzi babo.

Urupapuro rw'umuhondo rwandikishijweho inyuguti z'umukara repubulika y'u rwanda, minisiteri y'ubuzima, intara y'iburasirazuba, akarere ka rwamagana isa nkaho iyi ngiyi ni ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mitiweli.

Amafoto menshi agiye atandukanye ndetse n'ikiganza gisa nkaho ari icy'umwirabura uri kuyafatanyiriza ku rupapuro rw'umweru, amazi y'inyange ku ruhande ndetse na supaguru.

Muri iyi foto higanjemo ibikomoka ku misogwe, aribyo bizwi nk'ibisuguti biri mu bwoko bugiye butandukanye, ndetse bigenda hashyirwaho ibiciro byabyo bisa nk'aho ari muri supamaketi.

I hoteli isa neza irimo intebe zikozwe mu mbaho ndetse n'ameza n'utundi duto turi kuri kotwari natwo dukoze mu mbaho, ndetse n'inkingi zayo zikoze mu buryo bwiza nk'igisenge kiza cyane hakirirwa abantu b'ingeri zose.